Komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu, iri ku muhanda umanuka, ahari igorofa rihereza risize irangi ry'umweru n'amabati y'ubururu, hari n'ikirango cy'icyapa kigaragaza aho ikorera.